Isezerano ni isezerano, yego nibyo ntakindi bisaba kugira ngo nawe ugere ku mushinga w'inzozi zawe ukoresheje telefone yawe igendanwa.

Kuki ukwiriye kutwizera mu mugihe ukeneye ubwishingizi ibereho mu mutuzo ntagereranywa n'ubufasha bw'umwihariko bwa serivisi butangwa ku buntu.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijeho umweru gishushanyijeho imodoka, kigaragaza ubwishingizi bw'ibinyabiziga kiri ahantu hateye ibyatsi.

Ahantu hari amatelefone handitseho duha agaciro ibyo uha agaciro kurusha ibindi twandikire kuri zeru karindwi umunani umunani, gatatu rimwe, gatatu karindwi, gatanu gatandatu.

Icyapa kiriho umukobwa uhagaze wambaye ikote wifashe amaboko, akaba arimo aravuga buri munsi ni uburyo bushya bwo kumva ngasobanukirwa no gukemura intego yacu ni ukubaha agaciro.

Umuntu wambaye ishati y'umweru, akaba yashyize ibiganza bye ku matama arimo aribaza, afite impungenge z'ibihombo mu bucuruzi bwiwe.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi ziri kugenda mu cyerekezo kimwe, kandi ku ruhande hateye ubusitani burimo ibiti birebire.

Inzu ndende iriho umukobwa urimo kubyina, imodoka zihagaze iruhande rw'iyo nzu ifite amadirishya y'ibirahure.

Ibihe nk'ibi ntibyabaho hatabayeho icyizere, urukundo, ubwitange, n'ubwuzuzanye. Hamwe na turikumwe, ubwishingizi bw'ubuzima, ibyishimo bisesuye ku buzima bwawe.

Inzu iriho icyapa kiriho umwana gisize ibara ry'umutuku cyandikishijemo umweru harimo gutsindira amafaranga ibihumbi makumyabiri na bitanu buri cyumweru.

Umuntu utwaye imodoka arimo aravuga, agendana icyizere buri ntambwe y'urugendo, hitamo ubwishingizi nyabwo inshuti y'ibihe byose.

Urupapuro rw'umweru rukaba rufite ibara ry'ubururu rwandikishijemo umweru rukaba rugaragaza aho hari ubwishingizi kandi ubwishingizi nibwo bwa mbere nicyo kizere cyawe.

Umuryango w'abantu bane bakaba bicaye ahantu hamwe barimo baraseka bishimye kubera ko bakoresha ubwishingizi, Isi ntisakaye ntawamenya igihe inkuru yacu y'ubuzima yarangirira.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku cyandikeshejemo umweru kiriho umumama ngo utabona ariko ubona umuturanyi kiri ku muhanda hari ibiti.

Ikarita y'ubururu iriho nimero zeru karindwi umunani karindwi icyenda umunani rimwe gatatu gatatu rimwe ikaba iriho n'amafaranga magana atandatu.

Umuntu ufite terefoni mu ntoki arimo arerekana uburyo wakoresha urimo wishyura ukoresheje terefone igendanwa mu buryo bugezweho cyane.

Icyumba kirimo ibintu byinshi bitandukanye, ameza ateretseho ibikoresho harimo igiti cy'umukindo, harimo aho babika imyenda naho gushyira inkweto.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'inkweto n'imyenda iri ku muhanda, ifite amatara y'umweru kandi harimo utubati tugiye turimo ibyo bikoresho byose.

Inzu iri mu irangi ry'umukara, n'umweru hagiye hamanitsemo imyenda ku buryo butandukanye amakanzu, amashati, imipira bigiye bifite amabara atandukanye.

Amashati y'amaboko magufi abageregeranije harimo ayafite ibara rya kake, ibara ry'icyatsi ibara ry'umuhondo ibara ry'umutuku n'ibara ry'umukara.

Icyumba kirimo imyenda y'abanyamideli kikaba kirimo ibintu by'ubugeni harimo ibikapu ,imyenda yo kwambara igiye itandukanya amakanzu ,amashati biri ku murongo .

Inkweto zifunguye ziri ahabugenewe, zikoze mu buryo butandukanye, zifite imishumi yo gufunga, n'izifite amabara y'ubururu n'iz'umukara.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye harimo akabati karimo imyenda izinze neza, harimo n'indi imanitse neza, hirya hari ahantu hamanitse amasahani.

Abantu batatu bahagaze ahantu hari imbuga nini hakaba hari imodoka ebyiri zifite ibara ry'umweru bakaba bafite icyapa mu ntoki cyanditseho Akagera.

Imodoka ifite ibara ry'umweru, ifite ibirahure bibonerana ikaba iparitse hamwe n'izindi modoka nyinshi ziri ahantu hitegeye amazu maremare.

Imodoka nyinshi ziparitse ahantu hamwe zifite ibara ry'umweru n'ibirahure byikamwe zikaba ziparitse ahongaho hari ibiti byinshi n'inzu y'i gorofa nyinshi.

Mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu, ni bwo hasohotse ino modoka ifite ibara ry'umukara, kandi irimo igurishwa miliyoni cumi na zirindwi.

Inzu nyinshi ziri ku muhanda wa kaburimbo zigiye zifite ibyapa bigaragaza ibihakorerwa kandi hakaba haparitsemo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye.

Imodoka y'umukara ifite ibirahure by'umukara, igaragaza ko yakozwe mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda, iri ahantu mu muhanda hari ishyamba.

Imodoka zitwara abantu zihagaze ku murongo zifite amabara y'umweru hariho n'ayandikishijeho ubururu hari abantu bahagaze ku ruhande rwazo.

Imodoka ifite ibara ry'umukara ikaba ihagaze mu muhanda irimo imyanya yo kwicaramo, ikaba iri ku isoko i Kigali.

Ahantu hari amamodoka menshi, hari abantu bahagaze bambaye imyenda y'imikara, hakurya hari inzu ndende zikikijwe n'ibiti byinshi.

Imodoka ebyiri ziparitse mu buryo butandukanye imwe ireba imbere n'indi irebe inyuma zifite ibara ryijimye n'ibirahure byijimye bikaba ari ahantu zikorerwa.

Umuntu ahagaze imbere y'imodoka y'igikamyo gifite ibara ry'umweru kandi afite icyapa kiri mu ntoki, cyanditseho akagera nawe yambaye ipantaro y'umukara.

Abantu babiri bahagaze imbere y'igikamyo kirekire gifite ibara ry'umweru n'umukara, bambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara bafite icyapa cy'akagera.

Imodoka iparitse ahantu mu mbuga, ikaba ifite ibara ryijimye n'ibirahure byijimye, icanye amatara atukura, iri ahantu hari inzu yubakishijeje amatafari ahiye.

Imodoka iparitse ahantu hari imbuga nini ifite ibara ry'umukara, ibirahure byijimye, ikaba yarakozwe mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi irimo iragurishwa miriyoni mirongo itatu.

Abantu bane bahagaze i ruhande rw'imodoka hakaba harimo abazungu batatu n'umwirabura umwe, bafite icyapa cyanditeho akagera iyo modoka ifite ibara ry'umweru.

Imodoka ihagaze ku muhanda wa kaburimbo icanye amatara, ifite ibara ryijimye, ifite ibirahure by'umukara, irimo iragurishwa miliyoni icyenda.

Imodoka iri mu zigezweho ifite ibara ry'umukara, ikagira ibirahure byijimye iparitse iruhande rw'inzu igerekerenyije igiye ifite ubusitani bw'ibiti birebire.

Ahantu hubatse muburyo bugezweho hakaba hari ahantu haparika imodoka hakanazogerezwa, hari imodoka zihari ifite ibara ry'umutuku nindi iparitse hasi ifite ibara ry'umweru.

Igiceri cy'amafaranga y'u Rwanda, kikaba kirimo ikigori gitonoye kikaba cyarakozwe mu mwaka 2011. Kiri ahantu hitegeye.

Inote y'amafaranga ibihumbi bitanu ishushanyijeho ibiti biri ku ruhande, mo hagati harimo inzu igeretse inshuro nyinshi cyane.

Ameza arambitsweho inote z’ amadorari hari umuntu washyizeho ibiganza yatonze intoki wambaye ishati yamaboko maremare y’ ubururu.

Inota yijana ya kera irambitse kumeza irambuye iyo meza ifite ibara ry'umukara, aho hari ahantu hafite ibara ryijimye cyane.

Inote y'ijana y'amafaranga y'u Rwanda ya kera irambitse ku meza, muri iyo note harimo ibiyaga n'ibiti kandi ayo meza arasa umukara akikijwe n'umwijima.

Muri banki bicayemo abantu bari mu kazi bafite za mudasobwa, ziri ku meza y'umweru, abo ni abakozi ba banki.

Umuntu wambaye agapfukamunwa, arimo aravugisha umuntu urimo imbere wambaye umupira w'umweru, arimo gukanda ku mashini.

Ameza ateretseho agakombe karimo uduti twabugenewe gukura imyanda mu menyo ari mu nzu yubakishije amatafari ahiye hakaba hari urumuri ruri guturuka hanze.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'igitenge, akaba yambaye ingofero mu mutwe, ari mu nzu irimo gukorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kunywa bishyushye n'ibikonje akaba yakira neza abakiriya.

Umuntu wambaye isarubeti y'umuhondo arimo aratunganya amagi ayabara neza ayashyira mu tuntu twabugenewe kugira ngo atangirika abe yagera aho ajya.

Icyuma gikoreshwa mu kubika amata no gupima ubuziranenge bw'amata igihe ashobora kumara kiri mu nzu, ahantu hari amatafari ahiye hateretse ameza.

Ahantu hari imbuga irambuye, hakaba hari inzu ikorerwamo ubucurizi, hakaba hacururizwa ibintu bijyanye n'amata. Ayo mata akaba akorerwa mu nyange, Nibindi bikorerwa mu nange.

Icyuma kibika kandi kigategura amata kikaba cyabasha no kuyakonjesha, kiri mu nzu aho harimo inzu yubakishijwe amatafari aheye harimo ameza.

Ameza y'ubururu ateretseho akantu karimo capati na teremusi, hari idirishya riri hafi aho ririho amarido asa n'ay'ibitenge.

Icyuma cy'uruganda rw'inyange gitunganya amata kiri mu nzu, mu nzu irimo amata afunze mu bukarito n'imitobe iri mu macupa.

Umuntu arimo arashyira amata mu cyuma ayakuye mu gicuba ayo mata akaba ari amata y'inshyushyu akaba ari kujya ahantu habugenewe ku buryo atakangirika .

Abantu bari mu nzu isize irangi ry'umweru n'ubururu, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru barimo barasangira amata ateretse ku meza, ayo mata akaba ari mu ijage.

Umutobe w'amatunda ukorerwa mu ruganda rw'INYANGE uri mu icupa ryabugenewe, ufashwe n'umuntu ufite ikiganza iryo cupa rishushanyijeho amatunda atatu.

Abana babiri babicaje ku meza bari kunywa amata bafite icyo kunywesha, ayo meza afite ibara ry'umweru kandi ateretseho utubito tubiri hamwe n'igicuba.

Amaze ateretseho amacupa n'agakombe karimo amata aryohera, bikaba bifite ibara ritukura n'ibara ry'umweru biri ku meza, Kandi bigiye bijyerekeranyize.

Umuntu ufite ijage irimo amata hafi aho hateretse ameza, ameza y'umukara n'ameza y'umweru kandi afite aho gukonjeshereza amata.

Indobo ebyiri ziteretse ku meza zipfundikiye harimo amandazi imbere inzugi z'ubururu ziri hirya aho ngaho n'ikaramu iri ku meza.

Amandazi asungusuye atetse neza, asa neza, harimo ayisatuye, ayo basatuyeho, ayo bariyeho bayasubiza mu yandi.

Igikombe cy'ikirahure kirimo amata meza cyane agaragaza ibara ry'umweru cyane kandi giteretse ahantu hari igitambaro cy'umweru n'ibara ry'umutuku.

Icyapa cya emutiyene kirimo ibara ry'umuhondo, handikishijemo ibara ry'umukara, kirimo kirerekana irekure, ihereze nawe ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itanu na rimwe urwego.

Telefone igendanwa, iri mu kiganza cy'umuntu, biri mu ibara ry'umuhondo, aho bari kwerekana amashusho y'uko twakoresha telefone.

Umuntu ufite telefone igendanwa mu ntoki akaba arimo arerekana uburyo wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa telefone yawe igendanwa kandi mu buryo bworoshye.

Zigamira itangira ry'amashuri tangira umwaka w'amashuri mu mahoro, izigamire mu mwaka w'amashuri guhera ubu none kugira ngo bizagufashe mu gihe kizaza.

Imibare iri mu ibara ry'umuhondo rimwe, rimwe, ikenda, karindwi, kabiri, ikenda, rimwe, zeru umunani, gatandatu ikenda gatanu zeru umunani.

Icyapa kiriho terefone kikaba kiri mu ibara ry'icyatsi handikishijeho umweru hakaba handitseho teganyiriza ahazaza h'umwana wawe amafaranga make watangiza none yakubaka eja hazaza h'abana bawe.

Wakiriye amafaranga ibihumbi magana atanu, bivuye kuri kibuye kandi bikaba bakoresheje telefoni mu buryo bugezweho.

Igice kigenera ba nyiri ubutaka aho giherereye n'amazina ya nyiri uhagarariye abandi giherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Niboye, akagari ka Gatare.

Umuntu ufite inoti nyinshi kandi zikaba ziri ku meza arimo arazibara, harimo inote z'amadorali n'inote zigiye zitandukanye, afite inote z'amadorali ijana mu ntoki.

Umuntu wicaye wambaye isaha ku kuboko arimo kubara amafaranga ni inote nyinshi zitandukanye ayafite mu ntoki, ikiganza kimwe kiyafite ikindi kirimo kuyabara.

Inoti y'amafaranga magana abiri yo muri Kongo, iriho abantu bari guhinga, abandi bari gucukura, harimo umubare kabiri n'ibara ry'umukara ryanditsemo ba.

Umuntu ufite inote z'amafaranga y'amanyamahanga zigiye zitandukanye, harimo inote ya mirongo itanu, inote y'ijana, inote ya makumyabiri, inote ya mirongo itatu.

Inote y'amafaranga igihumbi yo muri tanzaniya irimo inzu ndende y'amagorofa menshi hakabamo umubyeyi urimo w'umumama.

Umuntu ufite amafaranga menshi atandukanye, yayarambitse ku meza, amwe ku ruhande n'ayandi ku ruhande, ameza y'umweru arimo arayabara akoresheje intoki.

Umuntu ufite inote z'amafaranga zitandukanye, harimo inote ya magana atanu, iy'igihumbi, iy'ijana, iya makumyabiri, iya mirongo itanu n'inote ya rimwe.

Inoti nyinshi zigiye zitandukanyekanya umuntu arimo arazibara, hakaba arimo inota yari rimwe, inote y'icumi, inote ya mirongo itanu n'inote y'ijana zikaba ziri ku meza.

Umuntu ufite inoti nyinshi z'amafaranga azifite mu biganza bibiri byombi arimo arazibara aho hari idirishya rikikijwe n'ishuka.

Akazu gakorerwamo serivise zitandukanye harimo iza banki, uburyo bwo kohereza amafaranga no kwakira amafaranga aturutse hanze y'igihugu gateretse mu byatsi.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe zijimye zo kwicamo kandi hari n'aho kwicara bari kurya zifite intebe nziza zigezweho z'umweru.

Hano hari ibikoresho bitandukanye harimo intebe ameza intebe zo mu ruganiriro, intebe zo mu ruriro n'ameza yo muriro utubati two gushyiramo ibikoresho.

Inzu irimo intebe zo kwicaraho kandi izo ntebe zikaba ziri mu buryo bugezweho, hagiye habamo imisego kuri buri mwanya umuntu yicaraho hari imisego ifite ibara ry'icyatsi, n'umuhondo.

Ahantu hakorerwa igikorwa cy'ububaji, bakaba barimo babaza ibintu bitandukanye, intebe, ameza, bakaba bakoze igitanda kinini gifite isaso, kikaba gisa ibara ritukura.

Ameza y'ikizeru afite intebe esheshatu zo kwicaraho, ayo meza arimo amasahani, ibirahuri, ayo masahani ariho ibyokurya, ibirahuri birimo ibyo kunywa.

Intebe zikoze mu buryo butandukanye kandi bugezweho, zifite amabara y'icyatsi n'amabara y'ubururu kandi zigiye zifite imisego buri ntebe ifite umusego wayo.

Icyumba kirimo uburiri bushashe neza kandi gifite umusego; kikaba kirimo akabati gateretseho isaha n'ikindi gikoresho kiriho hejuru mu ibara ry'umweru.

Inzu yubakishije amakaro, hakaba hari icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe zegamirwa kandi zitukura, hakaba harimo ameza y'ikirahuri n'intebe zindi zo kwicaraho.

Imbuga ngari iteretsweho ameza agiye afite intebe zigiye zitandukanye, akaba afite ibara ryijimye, biri ahantu mu mbuga kandi hari inzu ifite ibirahure n'amakaro.

Intebe za kijyambere zegamirwa zifite ibara ry'umweru n'umukara kandi buri ntebe ifite umusego wayo zikaba ziteretse ku itapi ifite ibara ry'icyatsi.

Inzu yubatse neza ikaba igerekeranyije, kandi ikaba ifite irangi ry'icyatsi n'ubururu, imbere yayo ifite ubwogero bugezweho buteretseho intebe zo kwicaraho.

Inzu igeretse rimwe ikaba ifite irangi ritukura hanze hari ubusitani burimo ibiti bigiye bitandukanye hateyemo ibyatsi bya pasiparumu n'ibiti by'imikindo.

Ubwogero bwa kijyambere bufite umwanya wo kogeramo wabugenewe naho kunyura. Hafi aho har'intebe zabugenewe zo kuruhukiramo, hari ishyamba ry'ibiti.

Ahantu heza hari amatara hameze neza afite ibara ryiza, hateye ibiti birebire, hakaba hari inzu zirimo abantu kandi hari intebe ziri hanze zo kwicaraho.

Inzu irimo ameza ikabamo intebe, ikabamo akabati, ikabamo udutebe tutoya, ifite amadirishya arimo amarido.

Inzu ndende yubatse ku buryo bugezweho igerekeranije ifite ibirahure by'ubururu kandi ifite irangi ry'umweru, harimo ibyumba bitandukanye.

Inzu ndende ifite amadirishya y'ibirahure yubakishije amatafari ahiye, hafi aho hari ubusitani bugizwe n'indabo nziza kandi n'ibiti birebire.

Igikoni batekeramo cya kijyambere kirimo ibyo kurya biri mu masahane agezweho ya kijyambere harimo imbuto, harimo inanasi, imineke, amaronji n'ibindi byinshi.

Icyumba cyateguwe neza kikaba kirimo intebe z'umukara ameza y'umukara ayo meza agiye ariho amazi yo kunywa n'ikayi yo kwandikamo n'ikaramu.

Inzu yubatswe kuburyo bugezweho kandi yubatse igerekeranyije, ifite ibirahuri bifite ibara ry'icyatsi iri ahantu hitegeye ikaba ikorerwamo hoteli.

Inzu ndende ifite amagorofa menshi yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifite ibirahure hanze ifite ubwogero bugezweho.

Icyumba kirimo abantu bicayemo hakaba harimo intebe z'umukara kandi hakaba hacanyemo amatara agaragara neza gifite irangi ritukura n'umweru.

Abantu bari mu cyumba kimwe hakaba hari uwicaye ku ntebe y'umutuku hari ameza ariho igitambaro cy'umweru gifite n'ibara ry'ubururu abandi bakaba bahagaze iruhande rwe.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku kikaba gifite n'ibara ry'umweru kiri imbere y'inzu irimo irubakwa kandi iyo nzu igiye igerekeranyije ku buryo bugezweho.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho, ikaba iri hafi y'umuhanda, ikaba ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, kandi ikaba ikorerwamo n'ubwishingizi bw'ubucuruzi, hanze hateye ibiti.

Icyapa kigaragaza ubwishingizi, aho bukorera Nyabugogo, kirimo amatara, handikishije mo amabara y'ubururu, mu ibara ry'umweru harimo amarangi.

Mu biro harimo inebe nini yo kwicaramo y'umuhondo hicayemo umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku hafi aho hari ameza.

Inzu yubakishijeje amakaro ikaba ifite irangi ry'umweru, hakaba hari ahandi bafite irangi ry'ubururu ahakorerwamo ubucuruzi n'ahakorerwa ubwishingizi bugiye butandukanye.

Inzu igerekeranyije, ifite ibirahure, hakaba harimo ibyapa by'ubwishingizi, hanze hari amamodoka ahaparitse n'aho kwinjirira munsi, ikaba ifite ibara ry'ubururu.

Ababyeyi b'abamama bahagaze ahantu hamwe barimo barifotoza berekena uburyo biteje imbere bakorera hamwe baboha uduseke tugiye tumeze neza kandi turi ku murongo.

Inzu igerekeranyije ikaba ifite ibipapuro bigiye biri ku madirishya nk'ibyapa kandi hakaba hakoreramo ishami rya banki n'abantu bacuruza imyenda .

Abanyeshuri barimo kwigira hamwe, bamwe baricaye abandi barahagaze mwarimu wabo arimu arabererekera akoresheje mudasobwa n'abandi barakurikira.

Inzu irimo ibyumba bigiye bitandukanye kandi hakaba harimo intebe zo kwicarwaho, hakaba hasize irange ry'umuhondo kandi hari igiti cya noheli n'abantu barimo kwicara.

Icyapa kiriho umuryango w'abantu batatu umugore, umugabo, n'umwana hakaba hariho ahantu hateye ubusitani kikaba cyanditseho ngo nawe wagira iwawe.

Abamama babiri bambaye imyenda y'ibitenge bicaye ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye harimo imyenda y'abana ,imyenda y'abantu bakuru ,ibikapu bidozwe mu bitenge.

Ahantu hari isoko rifite ibikoresho bitandukanye byo gucuruza kandi rifite ubwirinzi harimo kizimyamwoto rifite amashanyarazi imbere amatara aba yaka.

Umuntu urimo gucuruza imboga n'ibindi binyampeke, harimo amashaza ibinyomoro, inyanya y'imineke, ibishyimbo n'ifu.

Inzu irimo abantu bahagazemo hari intebe iteretseho ibase hakabamo abantu bahagaze impande z'indobo irimo ibiraha barimo barabigura umwe afite ibase mu ntoki.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi butandukanye hakaba hari inkweto z'ibipapa za'bana n'iz'abantu bakuru kandi bakaba bari gucuruza ibikapu by'amashashi ndetse n'ibikapu bihekwa mu mugongo.

Abantu bari mu isoko bafite ibicuruzwa bitandukanye, hari abafitemo imyenda, abafitemo imbuto, abafitemo ibyo kurya abandi bafite ibindi bintu bitandukanye.

Abantu batandukanye bari ahantu ho gucururiza, harimo abicaye abandi barahagaze, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibikapu, amasahani n'ibindi byo gukoresha bigiye bitandukanye.

Abantu barimo gucuruza ibintu bitandukanye harimo amateke, igitoki, karoti, ibirayi n'ibindi bintu biri mu mifuka, amadegede n'ibindi.

Umuntu ufite telefone ngendanwa mu ntoki arimo arerekana uko wakwishyura amafaranga ukoresheje telefone mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Abantu bari kunyura ahari gutangirwa ibihembo bagenda bahindukira bareba ibirimo kuhakorerwa, ibyo bihembo birimo biratangwa na emutiyeni kandi bikaba biri mu ibara ry'umuhondo.

Imibara ikoreshwa mu buryo bwo kwishyura bigezweho akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri zero karindwi mirongo icyenda na gatanu mirongo itanu na karindwi umunani urwego.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, kikaba cyandikishijejweho umukara n'umweru, kirimo cyerekana uburyo bwo kwishyura hifashishijwe telefone igendana, mu buryo bworoshye.

Abantu babiri bahagaze ahantu hari za mudasobwa bafite telefoni mu ntoki barimo arazikanda noneho hari ameza agiye ateretseho izo mudasobwa.

Umuntu wambaye umupira w'umuhondo ni ngofero y'umuhondo arikumwe n'umuntu wambaye ishati y'umukara, wambaye ikarita y'akazi arimo aramwereka muri terefone uburyo ikoreshwa.

Abantu babiri bahagaze ku kazu ka emutiyene umukobwa n'umuhungu bambaye imipira y'umuhondo umwe yambaye ipantaro undi ikabutura.

Ameza ateretse mu cyumba akaba afite ibara ritukura kandi akaba agiye aciyemo ibice, akaba afite utubati buri gace afite akabati kako.

Abantu babiri bahagaze ku muhanda barimo kuganira ukuntu bageza ku bantu ibintu ku buryo bwihuse bakoresheje uburyo bwo kugendera kuri moto.

Moto ihagaze ahantu ihetse ikarito irimo ibintu byatumijwe, ikaba ifite nimero magana atandatu mirongo ine na gatandatu.

Amapikipiki ahagaze ari ku murongo ni ane ahetse ibintu byatumwe bakaba bagiye kubijyana hari igipangu gifite irangi ry'umuhondo harimo ibiti.

Umuntu wambaye impuzankano akaba yambaye ingofero ahagaze ku muhanda, afite igikarito kirimo ibintu agiye gutwara kuri moto.

Uko wamenya gukoresha uburyo bugezweho bwo kugurisha ibintu ukoresheje ikoranabuhanga mu Rwanda ndetse no hanze y'aho, ibyo bita vuba vuba.

Umuntu ufite igare akaba yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'icyatsi ahetse igikapu cy'icyatsi cyanditseho vuba vuba, agiye kugeza abantu ibintu murugo.

Amakanzu atatu arimo aragurishwa k'uburyo bw'ikoranabuhanga bugenzweho bwitwa onorayine shopingi.

Abantu babiri bari mu cyumba hamwe n'umugore w'umwirabura, n'umugabo w'umuzungu bafashe ku meza, hari intebe zo kwicaraho, hari n'akabati karimo ibikoresho bitandukanye.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho ikaba ifite inzugi za kijyambere, amadirishya yijimye akaba irimo iragurishwa miliyoni ijana na mirongo ine, iri mu Rwanda.

Umuntu wambaye ikote ry'umukara, wambaye amatarata ahagaze ku rugi rwa kijyambere rufite ibara ry'umuhondo aho ari kurukoraho.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite igikoni cya kijyambere kirimo ibikoresho byose, ikaba iherereye i Kagugu, i Gisozi irimo irakodeshwa.

Umumama w'umwirabura ari kumwe n'umugabo w'umuzungu bari hafi y'ubwogero bwa pisine hafi aho hateye imikindo miremire n'ibyatsi.

Inzu ifite igipangu cy'ubururu n'umweru ikaba ifite urugi rusize iranjye ry'umukara kandi inzu ndende igerekeranyije ikenewe gukodeshwa iri i kigali.

Inzu iherereye i Kigali, mu Rwanda ifite ubwogero bugezweho, irimo irashaka abantu bayikodesha ku mafaranga ibihumbi magana atanu mirongo itanu.

Umugabo wambaye ingofero y'akazi akaba ari umwubatsi arimo arerekana amazu akodeshwa aho agiye aherereye n'uburyo ateyemo.

inzu iherereye Kibagabaga muri Kigali, ikaba irimo irakodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu, hakaba harimo igitanda gishashe neza gifite n'imisego.

Ubwiherero bwa kijyambere bufite umusarane wa kijyambere, bufite n'ubwiherero bwa kijyambere, ubwogero bwa kijyambere, aho kogera heza ha kijyambere.

Inzu ifite ubwogero, ikaba ifite ubwiherero bwo mu imbere mu nzu, ikaba ifite igikoni kigezweho cya kijyambere; irimo irakodeshwa amadolari igihumbi n'ijana.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho ikaba iri I Kanombe I Kigali ikaba ifite igipangu, ifite n'aho waparika imodoka ku buryo zajyamo ari eshatu irimo irakodeshwa.

Inzu igezweho ifite ubwihererero bubiri, ikaba iri i Kigali, i Kanombe, irimo iragurishwa amafaranga miliyoni mirongo ikenda n'eshanu.

Inzu yubatswe m'uburyo bugezweho ifite amagorofa, kandi ifite igipangu gisize irangi ry,umweru n'ibara ryijimye gifite urugi rw'ikirahure.

Inzu irimo ibyumba bibiri, ubwogero butatu, ikaba iherereye i Remera ku Gishushu, muri Kigali. Ikaba ikenewe gukodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho kandi ikaba ari nini, ifite amabati atukura, ikaba ifite imbuga nini. Irimo iragurishwa amafaranga miliyoni ibihumbi ijana.

Inzu ndende igerekeranyije, ikaba ifite ibirahure byijimye kandi ifite igipangu, ikaba inasize irangi ry'umukara n'umweru. Iherereye i Kigali, Kimironko mu Izindiro.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho ifite irange ry'umweru, amadirishya n'inzugi, ikaba irimo ibirahure byijimye, ikaba ifite ubusitani hafi iherereye Kimironko i Kigari.

Inzu ifite ibyumba bitatu hakabamo ubwiherero bubiri kandi ikaba ifite igipangu, irimo irakodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi.

Inzu iherereye i Kigali i Kanombe ikaba ifite ibyumba bitandatu, ubwogero bitandatu, ifite ubusitani hanze irimo irakodeshwa ibihumbi magana ane.

Inzu ndende yubatswe mu buryo bugezweho ikaba igerekeranyije ifite ibirahure byijimye ikaba ikorerwamo ikigega cy' AGACIRO kigezweho cy'iterambere.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ifite ibirahure byijimye, ikaba ifite imbuga nini cyane ikaba irimo irakodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu.

Inzu ikodeshwa iherereye i Kigali, Kimironko, ikaba ifite ibyumba bibiri, ifite igipangu kandi iri ahantu heza ku muhanda ku buryo nta kibazo.

Inzu yubatse igerekeranyije, ikaba ifite ahantu ho kwicara hasi no hejuru. Ikaba ifite imbuga nini, irimo irakodeshwa igihumbi na magana atanu by'amadolari.

Inzu yubatse k'uburyo bugezweho kandi ifite irangi ry'umye ikaba ifite inzugi zitukura, iherereye i Kanombe i Kigali ikaba irimo kugurishwa.

Inzu nziza yubatswe muburyo bugezweho ifite ibirahure byijimye kandi yubakije amatafari ahiye, iri kugurishwa ku giciro gitoya.

Inzu yubatse neza ikaba ifite aho kwicara hanze kandi ifite ibyumba bitatu n'ubwogero n'ubwiherero, ikaba irimo irakodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu.

Inzu iherereye i Kigali mu Rwanda ikaba ifite irangi ry'ubururu ifite amabati y'umukara ifite ibirahuri byijimye irimo iragurishwa.

Inzu iri kumuhanda ifite igipangu kirekire, ifite ibirahure by'umukara, ikagira irange ry'ubururu, irimo irakodeshwa uwayikenera yaza.

Abantu benshi batandukanye barimo baragura ibintu harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru wazamuye akaboko, ahagararanye nundi wambaye ikote.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ari ahantu hacuruzwa ibintu bitandukanye, harimo amavuta yo guteka, amavuta yo kwisiga, ifu zo gukora igikoma.

Ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye harimo imikandara myinshi, inkweto zifunguye, amasogisi, inkweto zisa amabara y'umutuku n'inkweto z'umukara.

Inzu irimo ibicuruzwa bitandukanye hakaba hacururizwamo ifu hakaba harimo imigati igiye itandukanye yo kurya hakaba harimo umuntu uwufashe agiye kuwugura.

Icyapa cy'ikaze i Remera ibiti birebire biri ku muhanda wa kaburimbo inzu ndende y'igorofa ifite ibirahure.

Umuntu wambaye igitenge kirimo amabara y'ubururu, icyatsi, umukara, umweru, akaba afite ikarita igaragaza ubwizigame mu kwifuza.

Ejo heza ni umushinga uzajya ufasha abaturage mu kwizigamira ahazaza habo ku buryo bagize ikibazo bakoresha ayo mafaranga bizigamiye murakoze.

Ivuriro rifite amadirishya y'umukara hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru. Hahagaze umuntu mu muryango hagati uhetse umwana

Umu mama wambaye ikanzu itukura y'igitenge ahagaze ku nzu ifite irangi ry'umweru n'ubururu kandi akaba ari inzu yanditseho ngo gira ubuzima.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, cyandikishijeho amagambo y'umweru, ubururu n'icyatsi, handitseho uko wakwizigamira muri ejo heza ukoresheje telefoni.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zirimo ziratambuka kandi zigiye zicucikiranyije, hakaba hari icyapa cyanditseho simba i Kicukiro kandi hakaba hari n'abantu bari gutambuka.

Inzi irimo irakorerwamo ubucuruzi hakaba harimo iduka ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibiribwa byo kurya n'ibyokurya nikintu bafite cyo gukonjesherezamo.

Umuntu uri mu bubiko bw'imbuto izo mbuto harimo imbuto z'amacunga, imineke, amaronji, indimu, n'inanasi byose biri hamwe.

Iduka rigezweho rikaba ririmo ibintu bitandukanye, harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa kandi bakaba bafite ahantu babikonjeshereza bikaba bigurishwa ku buryo buhendutse.

Umuntu uhagaze mw'iduka arimo gukoresha telefone, harimo ibiribwa bitandukanye n'ibyo kunywa. Harimo abantu bari kugendamo mur'iyo nzu.

Umu mama ari mu iduka arimo arahaha ibintu bitandukanye harimo umukobwa urimo aramufasha wambaye umupira harimo umuhondo n'icyatsi afite ifu mu ntoki.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibyo kurya, ibyo kunywa hakabamo amavuta yo kwisiga, amavuta yo guteka, hakabamo n'ibindi bikoresho by'isuku.

Iduka rinini cyane rifite ibintu bigiye bitandukanye bakaba bacuruzamo ibyo kurya no kunywa harimo: ibisuguti n'ibindi bintu byinshi cyane.

Iduka rigezweho ricuruza ibintu bitandukanye harimo ibiribwa n'ibyo kunywa, bikaba bigiye bipanze neza ku murongo kandi buri kintu kiri ukwacyo.

Umukobwa wambaye ikote, mo imbere akaba arimo umupira w'umweru, akaba afite imisatsi isutse y'umukara, arimo arakora mu kabati ashakamo ibintu.

Ububiko bubikwamo ibyo kunywa, hakaba harimo amazi, imitobe, amata, amata aryohera ndetse n'ibindi birimo neza ku murongo.

Umugabo wambaye ipantaro, ishati bisa ubururu, wambaye inkweto z'umukara, ufite icupa mu ntoki, arimo kureba umuntu wunamye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, hakaba harimo iduka ririmo ibikoresho by'isuki bigiye bitondetse ku murongo. Muzaze namwe mwihahire ibikoresho mukoresha mu rugo. Isuku iturange.